Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, ibipupe bibafasha kwiga neza kubera ko babibona bakishima, bigatuma bakurikira abarimu babo neza, abarimu bigisha mu mashuri y'incuke bashishikarizwa gushaka bino bipupe kugira ngo babashe kwigisha abana, babishimiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, ni ingenzi ko bagomba kuba bafite ibitente cyangwa se ibipupe bibafasha kwiga neza. Abarimu bakora uyu mwuga mu mashuri y'incuke bashishikarizwa kwita ku banyeshuri babo, kubera ko baba bakiri bato bakabakurikirana kugira ngo babashe gufata neza ibyo baba bigishije.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko tugomba kubaha ibipupe cyangwa se ibikinisho kubera ko bibafasha kwiga neza bakumva ibyo mwarimu ababwira. Abarimu bakora umwuga wo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, basobanurirwa ko ari byiza gushaka ibyo bintu ibyo ari byo byose byatuma abanyeshuri babo bumva ibyo bababwira.

Mu mashuri y'inshuke haba hari ibikoresho bifasha abana gukina neza twavuga nk'ibyicundo bakoresha igihe barimo bakina ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa, ni byiza ko amashuri y'inshuke agomba kugira ibikoresho bifasha abanyeshuri gukina kugira ngo babashe kwishima neza ndetse banagorore ingingo zabo neza.

Ni byiza ko tugombagurira abanyeshuri bacu ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kwiga neza bafate, twavuga nk'amakiriyo bifashisha bari gushushanya, mashini ibafasha guteranya imibare, amakaramu bakoresha bandika, ndetse n'amakayi bakoresha bandikamo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bashyiriweho uburyo butandukanye bakoresha igihe barimo bidagadura nko kububakira ibyicundo bakoresha barimo barya iminyenga igihe cyo kwidagadura iyo kigeze, abarimu bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha gukina neza mu buzima bwabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko bagomba kubashyiriraho umwanya wo gukina kugira ngo babashe kwiga neza ndetse n'umwarimu abafashe mu gukina kwabo kugira ngo babashe kumwisanzuraho batamutinya kubera ko ari umwarimu.

Mu mashuri y'inshuke ni byiza ko tugomba kubashyiriraho uburyo bwiza bwo kwidagadura harimo nka pasiparumu bakoresha bakiniramo, ni byiza ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'abana bacu biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe gukura bafite uburezi n'ubumenyi buhambaye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ni byiza ko tugomba kubaha ibikoresho bihagije kugirango ngo babashe kwiga bityo babashe no kumva ibyo mwarimu wabo ababwira, ni ingenzi rero kwita ku buzima bw'abana bacu tubahereza ibikoresho bihagije nk'ibyo gutwaramo amakayi bizwi nk'ibikapu.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ni byiza ko tugomba gukoresha uburyo ubwo ari bwose bushoboka, twakoresha kugira ngo babashe kwiga neza, ndetse babashe no gufata ibyo tubigisha harimo nk'ibipupe bibafasha kwiga neza, ndetse ha bakabamo n'ibindi bikoresho byabafasha kumva neza ibyo bababwira.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke. Ni byiza ko tugomba kubashyiriraho uburyo bwabugenewe bubafasha kwidagadura, igihe bageze mu gihe cyo kwidagadura nko kubashyiraho pisine bajyamo, igihe cyo kwidagadura kigeze ndetse n'ibyicundo bakoresha barimo bakina. Ni byiza ko tugomba gushimisha abanyeshuri bacu kugira ngo babashe kuzamuka bafite ibyishimo bityo babashe kumva neza n'ibyo biga.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'uburezi, bisobanura ko ari ingenzi kwandika amagambo ahereza ikaze abahagana ndetse bakandikaho n'ibyo biga kugira ngo abanyeshuri baje kuhiga babashe kumenya icyo baje kwiga ndetse binabafashe kuhayoboka neza.

Abayobozi bayobora mu bigo by'amashuri abanza bavuga ko ari ingenzi gushyira indangagaciro zigomba kuranga abanyeshuri bigisha ku kintu kugira ngo babashe kubisoma cyanecyane bakabishyira ku rwinjiriro kugira ngo buri munyeshuri wese cyangwa se undi mugenzi wese winjiye muri icyo kigo abashe kuhagera maze abisome neza.

Abarimu bashishikarizwa ko ari ingenzi kwibutsa abanyeshuri kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu bahagaze impande z'ibendera kuko bibafasha kumenya agaciro igihugu cyabo gifite, ni byiza ko tugomba gufata abanyeshuri bacu tukabatoza indangagaciro kugira ngo bazabashe kwibeshaho kandi babashe no kumenya indangagaciro zibakwiriye nk'abanyeshuri.

Mu mashuri abanza haba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kugira ubumenyi ndetse babashe no kwiga neza. Twavuga nk'ibikoresho bibafasha kubara harimo: inyanya, amagi ndetse n'ibikombe bikabafasha kubara neza imibare mbese bikabafasha kumva neza ko bagomba kumenya imibare, nta kibazo kivutsemo.

Mu cyuyumba abanyeshuri bakoresha barimo biga kizwi nk'ishuri, harimo abanyeshuri bapfukamye ku musambi barimo biga barimo bandika ku kibaho bakoresheje ingwa. Ni byiza ko tugomba gutoza abana bacu kwandika kugira ngo ubashe kugira umukono mwiza usomeka.

Kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza gusoma ni ingenzi kubera ko bibafasha kwiyongera ubumenyi ndetse, n'imitekerereze yabo ikiyongera. Ni byiza ko tugomba kubatoza gusoma kugira babashe kugira ubwenge bwinshi, kandi bibafashe no mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya pirimeri ni byiza ko tugomba kubaha ibikoresho bihagije, harimo n'ibikapu byo gutwaramo amakayi kugira ngo amakaye yabo ye gupfa, ndetse n'amakaramu yabo ye gutakara. Ni byiza ko tugomba kwita ku buzima bw'abanyeshuri bacu, kugira ngo babashe kumenya ubwenge twabahaye ibikoresho bihagije.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ni byiza ko tugomba kubegeranya kugira ngo twongere tubibutse indangagaciro zigomba kubaranga nk'abanyeshuri. Ababyeyi bafite inshingano zo kwegeranya abana babo kugira ngo bongere babaganirize bityo babashe kugira uburezi bufite ireme ndetse babashe kugira umuco n'ikinyabupfura bizabafasha mu bugendo rw'ubuzima bwabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ni byiza ko tugomba kubagurira ibikapu kugira ngo babashe kubona aho batwara amakaye yabo, bityo tugabanye kuba bayata cyangwa se bakayaca kubera ko ntacyo bafite cyo gutwaramo. Ni byiza ko tugomba kwita ku bikoresho by'abana bacu biga mu mashuri abanza kugira ngo tubashe kugabanya amafaranga yo kugura ibikoresho buri munsi.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bavuga ko kwigisha abanyeshuri gusoma ari ingenzi kubera ko bibafasha kwiyongera ubumenyi ndetse bikanabafasha kuvuga badategwa. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi ko abarimu bose bigisha mu mashuri abanza, bagakwiye gutoza abanyeshuri babo gusoma kugira ngo babashe kumenya ibyo baje gukora ndetse babashe no kwiyungura ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuri biga muri pirimeri bavuga ko ari ingenzi kugira ibikoresho bihagije byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare harimo amarate bifashisha baca umurongo, amakereyo bifashisha bashushanya ndetse na compa bifashisha igihe bari guca uruziga.

Mu bigo by'amashuri abanza ni byiza ko bigomba gushyirirwaho ubukarabiro kugira ngo abanyeshuri babashe gukaraba igihe bavuye mu bwiherero n'igihe binjiye kugira ngo birinde indwara zitandukanye, baba bakuye ahantu hagiye hatandukanye bityo ubuzima bwabo bugende neza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'uburezi, icyumba abanyeshuri bigiramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe guhabwa uburezi bw'ibanze, twavuga nk'intebe abanyeshuri bicaraho, ameza yo gushyiraho ibitabo ndetse n'amakayi bakoresha barimo bandika, amakaramu bakoresha bandika ndetse n'isomero ririmo ibitabo bitandukanye bifashisha bari gukora ubushakashatsi bwerekeye n'ayo masomo bari kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bavuga ko ari ingenzi kugira ibikoresho byuzuye kugira ngo babashe kwiga neza ndetse babashe no gusubiza mwarimu. Bavuga ko ari byiza kugira amakayi, amakaramu ndetse bakabona n'aho kwicara hatunganyije kugira ngo babashe kwiga neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ni byiza ko tugomba kubaha ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kugera ku ishuri bige neza, twavuga nk'amakaye bakoresha bandikamo, amakaramu bakoresha bandika ndetse n'igikapu batwaramo ibikoresho byabo kugira ngo bitangirika.

Ababyeyi barerera mu mashuri abanza azwi nka "primaire" bavuga ko ari byiza ko abayobozi bagomba kubatumaho bakababwira imyitwarire y'abana babo kugira ngo babashe kubahwitura babahane babibutsa inshingano nk'ababyeyi babo ndetse n'abana nabo bibutswe inshingano zabo nk'abanyeshuri.

Abakora umwuga wo kwigisha abanyeshuri mu mashuri abanza bazwi nk'abarimu basobanura ko banejejwe n'umurimo bakora kubera ko bibatunze mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakomeza bavuga ko ari byiza gutoza umuco abanyeshuri baba bigisha ndetse bakanabaha ibizabagirira akamaro.

Abanyeshuri biga muri pirimeri, bakenera ibikoresho bitandukanye bibafasha kwiga isomo ry'imibare neza bigatuma babasha kubara neza; twavuga nk'inanasi ibafasha kubara umuneke, imodoka, amacunga, ubutunguru, ndetse n'ubukombe bikabafasha kubara neza bakamenya imibare.

Ibigo by'amashuri abanza bizwi nka pirimeri ni byiza gutoza abanyeshuri baharererwa gukora siporo, kugira ngo babashe kugorora ingingo zabo, bityo bazabashe kugira ubuzima bwiza ejo hazaza. Ni byiza ko abarimu bagomba gutoza abanyeshuri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'uburezi mu cyumba abanyeshuri baba barimo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe kumva neza ibyo mwarimu amubwira. Twavuga nk'intebe umunyeshuri aba yicayeho, ameza ashyirwaho ibitabo bikoreshwa ari gusoma, amakaramu akoreshwa ari kwandika ndetse n'ibitabo bitandukanye yifashisha igihe ari gukora ubushakashatsi butandukanye, kuri iryo somo.

Abarimu bakora umwuga wo kwigisha abana mu mashuri abanza azwi nka pirimeri, bavuga ko ari byiza gutoza abana kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu bahagaze impande z'ibendera, bakomeza bavuga ko ari byiza kuko bibafasha kumenya agaciro igihugu cyabo gifite.

Abarimu bavuga ko ari ingenzi gukurikirana ubuzima bw'abanyeshuri baba barimo bigisha, igihe bagiye gufata ifunguro rya saa sita, bakabafasha gukaraba intoki kubera ko baba bakoze mu myanda igiye itandukanye. Bikabafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Mu bigo bitanga uburezi bya pirimeri haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abo banyeshuri babashe guhabwa uburezi. Twavuga nk'ibyumba bihagije kugira ngo birinde ubucucike mu mashuri, ibibaho bakoresha bandikaho ndetse n'abarimu bakoresha barimo bigisha abo banyeshuri.

Mu mashuri ya pirimeri haba hari ibyumba bitandukanye abanyeshuri bakoresha biga mu rwego rwo kugira ngo birinde ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri. Ni byiza ko bagomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo buri munyeshuri wese abashe kumva kandi abashe kugira icyo atahana ku byo umwarimu yamwigishije.

Ku bigo by'amashuri abanza haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza, twavuga nk'intebe abanyeshuri baba bicayeho, ikibaho gikoreshwa cyandikwaho ndetse n'abarimu babahereza ubwo burezi. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije ndetse buri kigo cyose kikagira ibendera kuko bibafasha kumenya agaciro u Rwanda rufite.

Abayobozi bayobora ibigo bya segonderi basobanura ko akazi kabo ari keza kandi bagasobanura ko ari ingenzi kuba abayobozi bo hejuru babagana kugira ngo babashe kureba neza niba inshingano zabo bazikora neza bakazuzuza.

Abanyeshuri biga muri segoderi bakaba bicaye munsi y'igiti, bakaba bambaye iniforomo ndetse bakaba barimo babwiba amategeko ndetse n'amabwiriza agomba kugenga abanyeshuri kugira ngo babashe kugira umuco n'ikinyabupfura no kumva ibyo bababwira neza.

Abanyeshuri biga bo mu mashuri ya segonderi bavuga ko ari ingenzi ku ishyirwa hamwe kugira ngo babashe kongera kwibutswa inshingano zabo nk'abanyeshuri, kugira ngo umuco wabo ukomeze ube mwiza abashinzwe imyitwarire yabo bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga bo mu mashuri ya segonderi basobanura ko ari ingenzi kwinjira mu ishuri bafite ibikoresho bihagije kugira babashe kumva ibyo mwarimu ababwira, bavuga ko umunyeshuri agomba kwinjira mu ishuri afite ikayi ndetse n'ikaramu maze bikabasha gutuma bumva neza ibyo mwarimu abasobanurira.

Abanyeshuri biga muri segonderi basobanura ko ari ingenzi kwibuka bagenzi babo bazize jenoside yakorewe abatutsi ndetse bakanashishikarizwa kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, abayobozi b'abanyeshuri ni byiza ko begeranya abanyeshuri bakababwira agaciro ko kwibuka bagenzi babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye segondeire bavuga ko ari ingenzi kujya muri exami bafite ibikoresho bisabwa byose kugira ngo babashe gutsinda ikizamini neza, bavuga ko ari byiza kujya muri exami bafite amakaramu yo gukoresha ndetse n'impapuro zo gukoreraho kugira ngo baze kwirinda gusakuza igihe cyo mu kizamini.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi basobanura ko bibafasha igihe abayobozi bamanutse bakaza kubibutsa inshingano zabo nk'abanyeshuri, abayobozi bakomeza bashishikarizwa ko ari ingenzi kujya mu banyeshuri kugira ngo bongere babibuze indangagaciro zabo nk'abanyeshuri bityo bibashe kubafasha kuzamura ireme ryabo ndetse babashe no kumvira ababarera.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi basobanura ko ari ingenzi kujya mu ishuri bafite ibikoresho bihagije kubera ko bibafasha kwiga neza. Bakomeza bavuga ko ari byiza kwinjira mu ishuri ufite ikayi ndetse n'ikaramu, nabo bagasaba ubufasha bavuga yuko ari byiza kwegerezwa ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kwiga neza harimo nk'ibibaho byo kwandikaho ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Abanyeshuri ba segondeiri basobanura ko ari ingenzi kwinjira mu ishuri bafite ibikoresho by'ibanze kugira ngo babashe gukurikira amasomo bagomba guhabwa, bakomeza bavuga ko ari byiza kwinjira mu ishuri ufite ikaye yo kwandikamo, ikaramu yo kwandikisha ndetse n'ibindi bikoresho bisabwa na bo bakavuga ko ari byiza kuba umwarimu aba afite ibikoresho byuzuye kugira abashe kubaha ubwo bumenyi.

Amashuri ya segonderi aba agizwe n'ibyumba byinshi bitandukanye kubera ko haba higa abanyeshuri benshi kandi bakaba biga mu myaka igiye itandukanye, amashuri yose segonderi ashishikarizwa kugira ibyumba bigiye bitandukanye kugira ngo birinde ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi basobanura ko ari ingenzi kujya mu ishuri bafite ibikoresho bihagije kugira babashe kumva neza ibyo mwarimu ababwira. Bavuga ko ari byiza kwinjira mu ishuri bafite amakaye yo kwandikamo, amakaramu bakoresha bandika ndetse n'ibitabo bihagije bifashisha igihe barimo bakora ubushakashatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi basobanura ko bishimira uburyo abayobozi bamanuka bakaza kubibutsa inshingano zabo nk'abanyeshuri. Abayobozi bakomeza bavuga ko ari byiza gukomeza gushyira abanyeshuri hamwe bakibutswa inshingano zabo nk'abanyeshuri, kugira ngo babashe kubaha ababarera ndetse babashe no gutahana ubumenyi bwiza bwuje umuco.

Abanyeshuri bari munsi y'ibiti bakaba bambaye inifomu, bafite indabo mu ntoki n'igipapuro mu ntoki cyanditseho "kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi."

Abanyeshuri biga muri segonderi basobanura ko ari ingenzi ko abayobozi bagomba kuza bakabaganiriza bakibutsa inshingano zabo nk'abanyeshuri kugira ngo bakomeze gusigasira umuco wabo ndetse bakomeze no kumvira abarimu babigisha n'abarezi babo.

Abanyeshuri biga muri segonderi basobanura ko kwiga muri segonderi ari byiza kubera ko bibafasha kwiyungura ubumenyi ndetse bakamenya byinshi bitandukanye ku buzima bwabo, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubegeranya bakabaganiriza kugira ngo bakomeze bibutswe inshingano zabo nk'abanyeshuri.

Ibigo by'amasegoderi hari icyumba cyabugenewe kibamo ibitabo bitandukanye abanyeshuri bifashisha bari gusoma bakora ubushakashatsi butandukanye bwerekeranye n'amasomo yiga. Ibigo bya segoneri rero bishishikarizwa kugira iri somero kugira ngo buri munyeshuri wese abashe kugira ubumenyi buhambaye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye azwi nka segonderi, basobanura ko ari byiza kubashyira hamwe, kugira ngo bongere bibutswe inshingano zabo nk'abanyeshuri. Abayobozi b'ikigo barashishikarizwa kongera kwegeranya abanyeshuri, kugira ngo babibutse byinshi bibagiwe, maze bakomeze inshingano zabo nk'abayobozi, ndetse n'abanyeshuri bongere bibutswe, icyo bagomba gukora nk'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi basobanura ko ari ingenzi kwinjira mu ishuri bafite ibikoresho bihagije nk'abanyeshuri. Bavuga ko ari byiza kuba bafite ikaramu bakoresha bandika, ikayi yo kwandikamo, ndetse nabo bagasaba yuko ari byiza kwegerezwa ibikoresho bihagije, kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga. Twavuga nk'ibitabo ndetse n'intebe bifashisha bicara, n'ikibaho bakoresha barimo bandikaho.

Mu byumba bitanga serivisi zigendanye n'uburezi, hari icyumba cyabugenewe kiba kirimo ibitabo byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri igihe barimo bakora ubushakashatsi ku masomo biga. Haba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kuba babona ibyo bitabo. Twavuga nk'intebe bicaramo igihe bari gusoma, ameza bashyiraho ibitabo. Ni byiza ko tugomba kugira iri somero kugirango ngo tubashe gukuza umuco wo gusoma neza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bavuga ko bishimira impamyabumenyi bahabwa, kubera ko ibafasha kwihangira akazi ndetse bakabasha no kubaho, mu buzima baba bagiyemo bwo hanze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ya kaminuza bavuga ko ari ingenzi kujya mu ishuri bafite ibikoresho bihagije, harimo ikayi bakoresha bandikamo, ikaramu bakoresha bandika ndetse n'intebe bicaraho. Abarimu bavuga ko ari byiza ko bagomba kuba bafite ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kwiga neza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza basobanura ko ari ingenzi kujya mu ishuri bafite ibikoresho bisabwa kugira babashe kwiga neza, bavuga ko ari byiza kwinjira mu ishuri bafite ikayi yo kwandikamo, ikaramu bakoresha bandika ndetse n'ikoranabuhanga rizwi nka mashini ribafasha gukora ubushakashatsi bwerekeranye n'ibyo biga.

Kurya imbuto mu buzima bwacu ni ingenzi, kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutabona imbuto zihagije mu buzima. Mu mbuto twajya twavuga nk'inanasi, avoka, ndetse n'imineke, kubera ko bikungahaye kuri vitamine zigiye zitandukanye. Ni byiza ko tugomba kurya imbuto mu buzima, kugira ngo twirinde indwara nyinshi zitandukanye.

Mu mashuri ya kaminuza haba harimo icyumba cyabugenewe kirimo ibitabo bigiye bitandukanyekanya abanyeshuri bifashisha igihe bari gukora ubushakashatsi bugendanye n'amasomo biga. Ni byiza ko amashuri yose yisumbuye ya kaminuza agomba kugira iki cyumba kizwi nka rayiburari kugira ngo bifashe abanyeshuri kubona amakuru agiye atandukanye ku byo biga ndetse n'ibiri hanze y'ibyo biga.

Icyumba kirimo imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo imineke, inanasi ndetse n'intababara, bakaba bavuga ko ari byiza kurya imbuto, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, bityo twirinde indwara ziterwa no kubura vitamine.

Mu mashuri makuru ya kaminuza, icyumba abanyeshuri bigiramo kizwi nk'ishuri, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe gukurikira neza. Twavuga nk'intebe abanyeshuri bicaraho, ikibaho gikoreshwa mwarimu arimo yandikaho ndetse n'amakaramu n'amakaye abanyeshuri bifashisha barimo bandika ibyo mwarimu avuga.

Inyubako z'amashuri ya kaminuza ziba ari inyubako zifite ibyumba bitandukanye, kubera ko abanyeshuri bahagana baba ari abanyeshuri benshi, ni byiza rero ko ibigo byose bya kaminuza bigomba kugira ibyumba bihagije kugirango ubucucike bw'abanyeshuri bubashe kugabanuka.

Ibumba ni icyondo kivamo ibikoresho bikomeye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Twavuga ko havamo ibikoresho by'ibikombe ibyombo dutekamo ndetse n'ibindi byifashishwa, ni byiza ko tugomba kumenya gukoresha ibi bikoresho kugira ngo tubashe kubaho neza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bavuga ko bishimira umunsi wo guhabwa impamyabumenyi kubera ko ari umunsi uba udasanzwe kuri bo. Bakomeza bashishikariza bagenzi babo bari hasi ko bagomba kwiga bashyizeho umwete kugira ngo nabo bagere muri kaminuza, babashe kureba icyo babarushije bityo ubuzima bwabo ndetse n'ubwenge bwabo bubashe kwiyongera.

Abanyeshuri biga bo mu mashuri yisumbuye ya kaminuza basobanura ko ari ingenzi kujya mu ishuri bafite ibikoresho bihagije, kugirango ngo bibafashe kwiga neza, basobanura ko ari byiza kujya mu ishuri bafite ikaye yo kwandikamo, ikaramu bakoresha bandika ndetse n'ikoranabuhanga ryitwa mashini, ribafasha gukora ubushakashatsi butandukanye kuri ayo amasomo baba biga.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza basobanura ko ari ingenzi kuba bafite ikoranabuhanga rya mashini kubera ko ribafasha gukora ubushakashatsi butandukanye bugendanye n'amasomo biga. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi no kugira amakaye yo kwandikamo ibyo mwarimu ababwira kugira ngo bizabashe kubyibuka neza.

Mu mashuri ya kaminuza icyumba abanyeshuri bigiramo kizwi nk'ishuri, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe guhabwa uburezi bw'ibanze twavuga nk'intebe abanyeshuri baba bicayeho, ameza bashyiraho amakayi, telefone ndetse n'amakaramu. Ikoranabuhanga ribafasha gushaka ubushakashatsi butandukanye bugendanye n'ibyo biga bizwi nk'amashini cyangwa se telefoni.